Hano haragaragara mo umudamu, umukobwa , abagabo ndetse n'abana bishimye bigaragara ko bari bari mu birori bitandukanye bibahuza.

Aba ni abantu bafite icyo barangariyeho muri iriya mashini, bigaragara ko cyabashimishije, babiri muri bo bakaba bambaye ingofero z'abayisilamu.

Ibikorwa remezo bifasha abaturage batandukanye kubona umuriro bashobora kwifashisha kugira ngo babashe kubona urumuri, kubona ibyo bibatunga ndetse n'ibindi bishobora kubafasha kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Hano turi kubona umuhanda uriho amafoto y'amashanyarazi ibi rero bikaba muri rusange bigaragaza ibikorwa remezo.

Aha haragaragara ifoto nini y'amashanyarazi, amashanyarazi akaba akunda kwifashishwa n'abaturage mu ibikorwa byabo bya buri munsi, haba kubona ibibatunga, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kurushaho kumera neza.

Aha ni ku bitaro bya Muhima, ibi bikaba biherereye mu karere ka Nyarugenge kamwe mu turere dutatu tugize umugi wa Kigali. Umukobwa mubona ni ikerekana ko abakobwa bamaze gutinyuka ko bashoboye.

Iki ni icyahoze ari gereza cumi n'icyenda mirongo itatu, gereza zikaba zifashishwa mu gufunga, guhana abakoze ibyaha batandukanye.

Hano ni muhanda, hagaragaramo imodoka ebyiri zitandukanye, hamwe n'umupolisi, hamwe n'icyapa kitwereka ko izi modoka zitakagombye kuba zirenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Iyi ni kizimyawoto iri mu ibara ry'umutuku bigaragara ko iri ahantu yabugenewe kizimyamwo rero ikaba yifashishwa n'ibigo bitandukanye ndetse n'abaturage batandukanye mu kwirinda inkongi.

Pandagari n'imodoka ya porisi ikaba ikunda kwifashishwa mu bikorwa byayo by'umutekano bya buri munsi, abaturage bakaba bamaze kuyimenyera kuri iryo zina navuze mbere.

Uyu ni umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda mu Rwanda, uko bigaragara muri iyi foto akaba yarari gufasha kugira ngo imigenderanire irusheho gukomeza kumera neza.

Hano hari kugaragaramo abantu batandukanye ndetse n'icupa rya gaze ririho hejuru isafuriya, n'umubyeyi washyizeho igitambaro bari kwigisha abantu uko bakwirinda inkongi bafatanyije na polisi.

Kizimya mwoto iri imbere yacu, ubundi yifashishwa ku bigendanye no kuba abantu bakwirinda inkongi mu bigo bitandukanye rero, hano mu rwanda n'ahandi basabwa bose bagomba kugira kizimyamwoto.

Uyi ni Nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda, hano uko bigaragara akaba yari ari muri kampeyini ya RPF Inkotanyi.

Abantu batandukanye bagaragara hano, biragaragara ko ari abanyafurika, abanyaburayi se cyangwa abaturuka hirya no hino ku isi, bikaba bigaragara ko bari bari mu bikorwa bigendanye n'amatora.

Iki ni ikirango cy'umuryango FPR inkotanyo cyanditsemo demokarasi, ubumwe amajyambere kirimo intare, harimo amabara umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Hano haragaragaramo abantu bigaragara ko ari abayobozi, buri wese azamuye akaboko afashe no ku idarapo ry'u Rwanda cyangwa ibendera, bigaragara ko bari kurahira.

Hano ni mu muhanda, hari kugaragaramo moto, moto rero zikaba zifashishwa cyane cyane mu mugi wa Kigali n'ahandi hatandukanye mu gihugu, mu gutwara abagenzi bajya hirya no hino.

Uyu ni umuhanda urimo ibice umuntu yavuga ko ari bibiri. Igice cy'abanyamaguru ndetse n'igice cy'imodoka, bikaba byerekene imigenderanire y'urujya n'uruza rw'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga.

Hano ni mu muhanda ugaragara ko ari uw'igitaka utsindagiwe neza, yaba uw'iburyo n'uw'ibumoso, imbere yaho hakaba hagaragaramo moto z'amashanyarazi zirikwifashishwa muri iyi minsi.

Aha ni mu muhanda haragaragaramo moto ikunda kwifashishwa mu gutwara imizigo, ku ruhande rwaho hari ibidukikije harimo ibikorwaremezo birimo amapoto y'amashanyarazi.

Hano turahabona imodoka y'ikamyo nini, bakaba bayita Hwohwo. Ikunda gukoreshwa mu kwikorera amabuye, mu kwikorera imicanga, kugira ngo ifashe mu bikorwa bigendanye n'ubwubatsi.

Imodoka za Ritiko, ni imodoka nini cyane, zitwara abantu benshi kandi bajya hirya no hino mu ntara, biragaragara rero ko iri mu muhanda, yerekeye aho ugomba kujya.

Muri iyi foto harimo moto, harimo ingorofani, harimo imodoka, harimo n'urujya n'uruza rw'abandi bantu muri rusange uko bigaragara aba bantu bagiye mu mirimo yabo yaburi munsi

Hano ni muri kaburimbo, imodoka tubona turi kureba, biragaragara ko ari imodoka yikoreye imizigo, iyijyana ahantu runaka kugira ngo ibashe gukoreshwa ibyo yagenewe.

Hano turi kubonamo imodoka ya jahwa ndetse n'amagare ariho abanyonzi bagera muri babiri kuruhande hari abagenzi bigaragara ko abo bantu ari urujya n'uruza rwerekana ko bari bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Aha ni mu muhanda ku ruhande turabonamo ibikorwaremezo bitandukanye birimo amapoto y'amashanyarazi hamwe n'ibiti, iyi modoka rero ikaba ikunda kwifashishwa mu bigendanye n'imigenderanire.

Hano ni mu muhanda, imodoka ifite inka, yitwa fuso, bikaba bishoboka ko izijyanye ahantu ku isoko, cyangwa ahandi hantu zimuriwe, mu ifamu.

Hano haragaragara imodoka nini yitwa fuso ikaba ihagaze mu muhanda hagati aho abagenzi bakunda kunyura bambuka umuhanda, ibi bikaba ari ikimenyetso cyo kwereka abandi ko iyo ugeze aho abantu bambukira ugomba guhagarara kugira ngo ubahe amahirwe yo kugira ngo nabo bagende neza.

Iki ni icyapa gifite umurongo umanuka kiri mu ibara ry'umuhondo bikaba bigaragara ko ari icyapa gifite icyo gishaka kwerekana.

Icyapa tubona imbere yacu ni kimwe mu byifashishwa kurangira abaturage cyangwa abaje bakugana, babagana aho umuntu atuye neza akabyifashishwa hirya no hino mu gihugu.

Hano turi kubona icyapa cyanditseho mirongo itandatu kikaba gikunda gukoreswa ku mihanda aho kiba kigaragaza kutarenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Hano ni ku muhanda, uruhande bari kutugaragariza ibigendanye n'ibidukikije, byaba ibiti, ibyapa bitandukanye bifite amabara atandukanye. Harimo n'icyapa cyerekana kutarenza umuvuduko wa mirongo ine.

Inzu igaragara aha ni izu bigaragara ko iri ahantu hakikijwe n'ibiti bitandukanye harimwe n'ubusitani. Imbere yayo rero bikaba bishoboka ko haba ari parikingi.

Hano ni mu muhanda biragaragara ko imodoka ihagaze kugira ngo abagenzi batambuke mu nzira zahariwe abanyamaguru rukaba ari urugero rwiza rero ku bashoferi benshi.

Aha ni mu muhanda, umuhanda ukunda gukoreshwa n'abagenzi n'imodoka nyinshi, haragaragaramo inzu abagenzi bakunda kwicaramo bateze, bajya mu ngendo zitandukanye kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo bya buri munsi.

Umuhanda ni imwe mu nzira zifashishwa n'abatwaye ibinyabiziga, cyangwa abanyamaguru, kugirango byoroshye ibigendanye n'imigenderanire, bajya hirya no hino guhaha.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ugizwe n'ibisate by'umuhanda bigera muri bitatu cyangwa bine bigaragara imigenderanire itandukanye y'imodoka, ziva hirya no hino zijya hirya no hino birumvikana.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, bigaragara ko utsindagiwe vuba, kandi bikaba bivuze ko mu minsi iri imbere ushobora kujyamo kaburimbo. Ukaba ari umuhanda werekera mu makaritsiye atandukanye.